Gukaraba dukwiriye kubigira umuco, ari abakuru n'abato yuko yabaye intwaro yo kugira ngo duhangane n'icyorezo cya korona virusi, mariburu, ubushita, n'utundi dukoko twose twibasira abantu tuturwanya twifashishije gukaraba.

Ni byiza gutoza umwana w'umunyeshuri gukaraba mutoki akiri mutoya, kubera yuko bimufasha kuba intangarugero mu bandi bana, bikamurinda inzoka zamugwingiza kandi bikamufasha no kuba yatsinda amasomo ye mu gihe nta burwayi buziturukaho yahura nabwo.

Dukwiriye gufatanya tukarwanya imirimo ibujijwe ku mwana, kubera yuko umwana iyo umukoresha imirimo ivunanye, bimudindiza mu mikurire ye, mu bwenge bwe bityo ntabe akibashije kuzavamo icyo igihugu cyari kimukeneyeho.

Ubundi abantu babisesenguye neza bavuga yuko umwana ari umutware, niyo mpamvu igihe ari hagati y'abandi bantu bakuru, bamwereka ko bamwishimiye, bakamukinisha kandi bakamwereka yuko ari uw'ingenzi hagati yabo, banamurinda ikindi kintu cyose gishobora kumwangiza.

Minisitiri w'ubuzima ni umuntu uba warize ubuganga, kugira ngo afashe abantu mu bigendanye n'ubuzima; akabafasha mu buryo babona imiti kandi bakabasha kwisuzumisha mu gihe barwaye ndetse bitabagoye bitewe n'ubuvugizi aba yakoze.

Ni byiza kungurana ibitekerezo turi hamwe yaba inzego z'ubuyobozi bwa leta, abashinzwe umutekano, abaturage kugira ngo tuganire ku byabasha kuduteza imbere kandi tukubaka igihugu cyacu ntawe usigaye inyuma.

Umuntu utanga serivisi n'uyihabwa, ni abantu baba bagomba kubahana, yuko bose barunganirana uramutse utanga serivisi ukabura umuntu uyigusaba nta kazi ko gukora wabona kandi nawe uyikenera igihe ugiye ufite imyitwarire itari myiza, ntago wabona icyo ushaka binyuze mu nzira z'amahoro.

Unicef ni ikigo gishinzwe gufasha abana, mu mibereho yabo, mu myigire yabo, kugira ngo bazige bazavemo abantu bazima kandi babone uburenganzira bwabo bubafasha kuzagera aho biteza imbere.

Amavomero yacu tuba dukwiriye kuyafata neza, tukayasigasira, tukayarinda kubera y'uko tuyakoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi ndetse tudafite amazi nta kintu twabasha gukora nta n'icyo twabasha kugeraho.

Umuntu aba akwiriye gukaraba mu ntoki inshuro nyinshi igihe agiye kurya, igihe amaze kurya, avuye kwituma ndetse n'igihe cyose yaba arangije gukora imirimo yakwanduza intoki ze.

Abanyeshuri kubera guhurira hamwe ari benshi, bakwiriye gukaraba amazi meza n'isabune, bikabarinda kwanduzanya udukoko mu gihe bakina biga ndetse banakora n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Mu gihe ukora ikintu runaka biba ari byiza kugira impuzankanana ikuranga, y’uko iyo ubigenje gutyo ukaba ukora ikintu runaka bituma umuntu ukugana agahita akumenya, noneho yaba hari ibyo agusaba nuko rero undi ukabimukemurira vuba, ndetse nawe haba hari inyungu agomba kukwinjiriza nuko rero ubundi akabikora mu gihe gitoya mwese mukudwa.

Biba ari byiza cyane kuba abantu bafata umwanya bakabyina, bakizihirwa. kubera yuko iyo bafashe uwo mwanya, barasabana, bagasangira ibitekerezo, bityo bakaba bagira n'izindi nama bungurana zijyanye no kwiteza imbere, no guteza imbere igihugu muri rusange.

Biba ari ingirakamaro guhuriza abana hamwe maze ukabaha amata kubera yuko iyo ubigenje gutyo bituma bayakunda kandi twese tuzi yuko igihugu gifite intego yo kugira ngo abana bave mu mirire mibi rero nk'iyo ukoze icyo gikorwa wafashije igihugu kugira ngo kigire abana bafite ubuzima bwiza kandi bafite ubwenge bakabasha kuzagikorera mu buzima bw'ejo hazaza.

Umuntu wese aba akwiriye kumenya uko agenzura umubiri we, yuko si byiza gutwara ibintu birenze ubushobozi bwawe, igihe ubona imitwaro ikubanye myinshi ni byiza ko washaka abantu baza kugutwaza utarinde wayibyazamo umutwaro umwe ushobora kwangiza ubuzima bwawe kubera uburemere.

Abantu bateraniye hamwe nta kintu kijya kibananira. Bungurana ibitekerezo, bakagirana inama, bakiga kuri bya bintu byose bibagora, bakabibonera ibisubizo, ndetse bakabona n'ibyo bashyikiriza bagenzi babo batari bari aho ngaho.

Kwishima ni ibintu by'ingenzi mu buzima bw'umuntu, bidufasha kumererwa neza, tugatekana, iminsi yo kubaho ikiyongera kandi igihe dukora umurimo ukabasha kugenda neza.

Twese dukwiye kurwanya ihohoterwa. Ari umukuru, ari umuto dukwiye gufatanya tukarirwanya yuko rirasenya ntiryubaka kandi rituma tudakora ngo tubashe kwiteza imbere bityo tugasigara inyuma mu rugendo rw'iterambere, kandi byari bikwiriye yuko dukora tukazamura Igihugu cyacu.

Umuntu wiherereye ubwenge bwe bukura neza ntabwo ajya akora ikintu ahubutse, kubera y'uko aba yabonye umwanya wo kwitekerezaho nta bimugora ngo bimusakurize bituma atabasha gukora ibintu bye mu buryo yumva abishaka.

Ni byiza gusukura amenyo dukuramo imyanda yose yagiyemo kubera yuko bizaturinda indwara zayo, kandi n'igihe uri mu ruhame rw'abantu benshi ntugire isoni zo guseka no gusabana nabo.

Mwarimu aba akwiye gutoza abanyeshuri bakiri bato umuco koza amenyo, kuko iyo abibabwiye barabikurana bakabigira umuco ubundi bwo bikabafasha guhangana n'indwara zataka amenyo, maze bagahora bafite ubuzima bwiza bafite amenyo akeye, ubundi bwo bikabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Dogiteri mu gihe akura umurwayi amenyo, aba agomba kwitonda, ntahubuke, yirinda kumukomeretsa aho adafite ikibazo, akamuha serivisi inoze, kugira ngo igikorwa aba ari gukora kigende neza.

Nta kintu gishimisha nko kubona umusaza n'umukecuru we bashaje babanye neza, ariko iyo bigenze gutyo haba hari urugero rwiza barimo gutanga kubakomokaho, hanyuma umuryango ugasugira ugasagamba ubundi bwo ubumwe bukaganza.

Umukecuru n'umusaza iyo babanye neza bagasurwa n'abana babo, bakabona utwuzukuru twabo, nta kabuza basaza neza bishimye ndetse bagasiga n'umurage mwiza ku muryango wabo ubuzima bukaba bwiza.

Umuntu wese ushaje, aba akeneye ko tumuba hafi, si byiza kumubona ngo umwinube wumve yuko nta kintu amaze, ahubwo uba ugomba kumufasha yarwara ukamujyana kwa muganga, kandi ukamumenyera ibyo akeneye byose, kuko aba atagishoboye kubyikorera.

Abantu bakuze bakwiriye guhabwa umwanya, bakavuga bityo ibitekerezo byabo ntibihishikane, yuko nabo baba bagifite ibitekerezo byubaka, bifasha muri sosiyeti, kandi bagatanga impanuro ku rubyiruko, bityo bakamenya uko bagomba kwitwara mu rugendo rw'ejo hazaza.

Amafunguro dutegura mu buzima bwa buri munsi, akwiriye kuba agizwe n'ibiribwa, ibinyobwa bifasha umubiri gukora neza, ukabasha guhangana n'indwara zamutera kubaho adakora neza kandi ibyo ngibyo biradufasha kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Umugore n'umugabo babanye mu byishimo bibafasha kubaho neza, bakiteza imbere, bakarera abana babo neza, bakazamura umuryango wabo ndetse n'igihugu muri rusange.

Umuntu ukuze iyo yitabwaho na muganga iminsi yo kubaho iriyongera. Akira vuba, akagira icyizere cy'ubuzima kandi bikamufasha kubera yuko aba yabonye ibyo ashaka byose, atuje, nta bindi bintu bimubangamira.

Umukecuru ukuze aba agomba kugira bamwitaho. Kubera yuko we adafite ubushobozi bwo kuba yakwishakira ibimutunga, abagomba kugira abamuba hafi bakamumenyera ibyo kurya by'ubwoko bwose ubundi bwo ubuzima bwe bukisunika agasaza neza.

Kwirinda indwara y'ubushita bw'inkende ni inshingano zacu. Kubaho tutarya inyamaswa z'igasozi, tugakaraba mu ntoki buri gihe amazi meza n'isabune, kandi tugakurikiza amabwiriza duhabwa n'abaganga agenga uko bayirinda.

Igihe umuntu atanga inyigisho runaka, abantu baba bagomba kwicara bakamwumva, bakamutega amatwi, bakumva ibyo ababwira ndetse byaba na ngombwa akaza kubabaza ibibazo, bigendanye n'ibyo yigishaga kandi bishobora kubafasha, bigafasha na sosiyete muri rusange.

Isange One Stop Center ni ikigo gishinzwe gufasha abahuye n'ihohoterwa, mu gihe wahuye n'icyo kibazo, urabegera bakagufasha bakakugira inama, byaba na ngombwa ukabona ubutabera, bitewe n'uko ubyifuza.

Ibitaro bya Ruhengeri byakira abarwayi benshi, nta yindi mpamvu ibitera ahubwo ni uko bafite abaganga b'inzobere, bakaba batanga serivisi nziza bityo n'imikorere yaho ikorohera abaje babagana.

Ku kigonderabuzima ni ahantu bafasha abantu barwaye igihe wumva ufite ikibazo mu mubiri ni ngombwa kwihutirayo bakagufasha, wasanga bitari ku rwego rwabo bakakohereza ku bitaro bikuru ubundi bwo bakorakora amagara yawe.

Ni byiza kubaka inzu ziriho ubusitani. Ubusitani buba ari bwiza kubera ko butanga umwuka mwiza bugatuma abantu bari aho hantu babaho neza, ndetse hakaba hakwinjiza n'amafaranga bitewe n'abantu bahasura bakurikiye ubwo bwiza bwaho.

Umurwayi igihe ari imbere ya muganga, aba agomba kumwubaha kubera y'uko ibintu aba akora aba yarabyigiye, aba abizi, ni ihame rero umuntu uri imbere y'uwo muvuzi agomba kumugirira icyizere y'uko aba akora ibintu azi.

Ni byiza ko igihe abantu bari mu nama, bifashisha Kamera. Iyo bayikoresheje bibafasha gutanga amakuru yose y'ibyahabereye kandi bakayatanga mu buryo bugaragara bityo bigatuma hagaragazwa ukuri kw'ibyahabereye byose.

Ni byiza ko igihe umubyeyi afite akana kakiri agahinja, agira umuntu umuba hafi, yuko iyo bigenze gutyo, igihe havutse ikibazo, wa muntu aragenda akamushakira umujyanama w'ubuzima, akaza agakemura cya kibazo, cyaba kidashobotse agahita akijyana ku bandi bafite ubundi bushobozi buri hejuru.

Ibiro bikwiriye kuba ahantu hafite isuku, hahesha ishema abaturage ndetse n'ubuyobozi, ku buryo umuntu wese uturutse ahandi, akaza kuhasura, ahareba akahubaha kandi akabona y'uko ari ahantu hakwiriye gukorerwa ibintu byiza ndetse harimo na serivisi z'ubuyobozi.

Ikoranabuhanga riri mu bintu byihutisha iterambere rifasha umuntu gukora ibintu bye vuba vuba amasaha yagakoze akagabanyuka kandi akabikora nta mvune bikamufasha kugera kubyo ashaka mu gihe cya vuba.

Iyo umuntu ageze kwa muganga ari indembe, biba byiza iyo bamushyize ku gitanda, yuko iyo akigezeho nibwo babasha kuba bamushyiramo serumu, bikamufasha kugira ngo barebe yuko yagarura ubuzima ubundi bwo akoroherwa, indwara ikagenda.

Icyapa ni igikoresho kiba ari cyiza cyane kubera yuko kiyobora umuntu aho ajya mu gihe akifashishije asoma bikabasha kumurinda kuyobagurika kandi aho agiye akahagerera ku gihe.

Inyubako ifite ubusitani burimo ibiti n'indabyo, abantu barayikunda, kubera y'uko igihe bayiriho, baba babona akayaga, bahumurirwa, kandi igihe bari aho hantu bakumva batuje, bikabafasha kumva muri bo batekanye.

Ni byiza ko igihe abantu bari muri raboratwari, bashyiraho ubwirinzi bw'agapfukamunwa kubera yuko iyo ba bagakoresheje birabafasha cyane bakarinda ubuhumekero bwabo kandi ibyo barimogukora byose bikagenda neza nta kwikanga.

Ahantu hari ikirango cy'igihugu, tuba dukwiriye kuhubaha. Yuko haba hafite agaciro, umuntu akabona akumva yuko harinzwe, rero ni ahanjye, ni ahawe, ni ahacu, kugira ngo twubahirize igihugu cyacu, tugiha agaciro kakigomba.

Serume ikiza abarwayi, kubera yuko ibongerera amaraso bakagarura ubuzima bari baratakaje, bakongera kugarura imbaraga mu gihe nyacyo gikwiriye, nta zindi ngaruka zibayeho.

Igihe wumva ushaka kunywa amazi, ukwiriye kuyagirira isuku, ushobora kuyateka, ukayashyiramo umuti wica udukoko kandi ikindi cy'ingenzi, icyo uyanyweramo uba ugomba kugisukura kugira ngo wizere isuku yayo.

Imikino y'ubwoko bwose ifasha abantu kubaho neza bagakura neza bakishima bakagorora imbavu bakirinda indwara kandi n'iyindi mirimo yose bakoze bakayikora batekanye mu mubiri.

Dukwiriye gukoresha imbuto buri gihe tukazibyazamo umutobe, y'uko bifasha abana gukura neza ababyeyi bakabona amashereka, abasore bagakura neza bakagira ibigango kubera baba babonye ibirinda indwara.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga tuba dukwiriye kubisigasira, tukabirinda, tukabibika neza, kubera yuko biba bizadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, bikenewe n'abantu benshi, kandi byaraguzwe amafaranga.

Kunywa amazi bifasha umubiri wacu, abashakashatsi bagaragaje ko umuntu aba akwiriye kunywa nibura ritiro ebyiri ku munsi, igihe yubahirije ibyo ng'ibyo, aba afite ubuzima buzira umuze.

Igihe wabonye ibiryo biriho avoka yaba itabonetse ukabona pome ukabasha kurya imboga, inyanya, karoti, ibitunguru, n'agasenda icyo gihe uba uriye neza kandi umubiri wawe uba wakiriye intunga mubiri.

Tuvugane ni igikoresho cyifashishwaga mu itumanaho, igihe wabaga ushaka kuvugana n'umuntu, mu gihe telefoni zigendanwa zitari zakaje, waragendaga ukegera umuntu uyifite ubundi bwo akagufasha kuvugana na mugenzi wawe, ubundi ukishyura amafaranga.

Gukorera siporo hamwe kw'abana gutuma bishima, bagashimisha abandi ndetse bakagira ubuzima bwiza, bitewe n'ingingo baba bagoroye, bityo bakabasha kubaho nta ndwara ndetse babayeho neza.

Indabo ziri mu bihingwa by'ingenzi mu buzima bwacu, abahinzi babigize umwuga bakunze kuzihinga bakazibyazamo imiti yica udusimba, bakazigurisha n'abazikoramo umuteguro bityo ni ingenzi kuba buri muntu wese yazibungabunga.

Ishyamba rifite umumaro buri muntu wese asabwa kuribungabunga, kubera y'uko ari intaho y'inyamaswa, rikinjiza amadovize mu gihe ryakuruye ba mukerarugendo, kandi ni ryo ritanga umwuka mwiza duhumeka, bityo tukabasha kubona ubuzima bwiza.

Ibimera dukwiriye kurwanya abantu babyangiza, yuko hari imbuto ziribwa biba ari indabo ziteguye hafigo zacu, iyo bitabaye ibyo twese tuzi yuko bifasha abantu kubona umwuka mwiza ahasigaye ubuzima bukaba bwiza.

Igihingwa kugira ngo gikure neza hari ibintu biba bisabwa, kugihinga mu butaka bwiza kandi bunoze, ukagifumbira, ukagishyira ahantu kizajya kigerageza kubona akazuba, kandi ikindi noneho ukacyuhira mu gihe imvura yaba yarabuze.

Ikawa ni icyayi kiryoha cyane kandi gikundwa n'abantu benshi, cyifashishwa n'abakozi batandukanye, abashoferi, abakozi ba Leta mu buryo bwo kugira ngo birinde kuba basinzira mu kazi cyangwa se mu gihe bari muri gahunda runaka.

Ni byiza gufata amafunguro y'ubwoko bwose, harimo ibitera imbaraga, ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri, ibyo byose nitubasha kubifata, bizatuma tugira ubuzima bwiza ndetse n'imitekerereze yacu ijye hejuru kandi ibe myiza.

Ni inshingano zacu kurya ibiribwa bifite intungamubiri zitandukanye, ari byo imbuto, imboga n'ibinyabijumba, ibinyamisogwe, bikaba biturinda indwara, bikadutera imbaraga kandi bikubaka umubiri wacu.

Ibimera bihora ari ingenzi mu buzima bw'umuntu, kubera y'uko tubikoresha tubishakaho ibyoku kurya, imiti, tukabyifashisha tubihereza amatungo, kugira ngo abashe kubaho.